Umugabo n'umugore n'umwana bicaye ku ntebe y'ubururu n'indi y'urubaho bafite impapuro mu ntoki, ku ruhande hateretse ibitabo.

Icyumba cyicayemo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'ibiti, ku ruhande rwazo hariho agacupa k'amazi.

Umukobwa wicaye ku ntebe y'igiti, urimo guseka, wambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'ikoboyi, ishanete mu gatuza, igikoma ku kuboko, inyuma ye hari ibiti birebire n'ubusitani.

Abantu batanu bari muri siporo mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwabo hateye indabyo n'imikindo.

Inyubako ndende igereretse kabiri, ku ruhande haparitse imodoka, hahagaze abantu, imbere yayo hateye indabyo, ku madirishya hari akagaruramuyaga.

Icupa riri ku meza, ririmo umuti bakoresha bari gusukura intoki, bakuraho mikorobe ku biganza.